Ni umugabo uhagaze akaba afashe mikoro. Akaba inyuma ye hari ibyuma ndangururamajwi, bakaba barimo gukoresha inama abandi baturage.

Ni abagabo bahagaze barimo gukoma amashyi, bakaba bahagaze mu ihema rifite amabara y'umuhodo, icyatsi n'ubururu, inyuma yabo hakaba harimo ibyapa birimo kwamamaza, ibi bikaba ibafashamo, kubafasha mu gukora inama.

Ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, kikaba kirimo intebe zisa n'umutku, imbere yabo hakaba hateretse ubucupa bw'amazi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere.

Ni umugabo uhagaze akaba arimo kwitegereza abandi bantu imbere ye, akaba arimo kubakoresha inama barimo kungurana ibitekerezo ku byabateza imbere.

Ni abantu bahagaze hakaba harimo abagore n'abagabo, inyuma yabo hakaba hari amazu, iruhande rwabo hakaba hari indabo, bakaba barimo gukora inama y'uburyo bwo kuba bagira ubuzima bumeze neza.

Ni umugore akaba afashe indangururamajwi. Inyuma ye hakaba hari icyapa gikozwe mu ibara ry'ubururu. Amagambo yandikishijwe umweru. Akaba arimo kwigisha ku bintu bigiye bitandukanye birimo: gutanga mituweli, kwizigamira muri Ejo Heza, kwicungira umutekano, kubika no kubikura, kugira isuku hose n'ibindi.

Ni abantu bicaye, hakaba harimo abashinzwe umutekano basirikare, imbere yabo hakaba hahagaze umupolisi ufite indangururamajwi akaba arimo kubigisha.

Ni abantu benshi bicaye mu cyumba hakaba harimo abashinzwe umutekano nk'abapolisi abasirikare ndetse n'abandi, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere no kwicungira umutekano.

Ni umugabo uhagaze, akaba afashe mikoro, imbere ye hakaba hari abandi bantu arimo kwigisha, inyuma ye hari icyapa kirimo kwamamaza, ibi bikaba birimo kubafasha kuba bakungurana ibitekerezo ku buryo bakwiteza imbere.

Ni icyapa, kikaba kiri mu ibara risa n'ubururu, amagambo yanditse mu bara ry'umweru ndetse n'umuhondo, akaba arimo gushishikariza abantu kwitegura kuraswa ku mwaka hakoreshejwe ibifaya bitanga urumuri ndetse no kubifuriza kugira umwaka mushya muhire.

Ni umugabo uhagaze imbere, y'amahema arimo abandi bantu benshi. Hakaba harimo n'abashinzwe umutekano w'abapolisi. Bakaba barimo gukora inama yo kwiga ku buryo bagomba kuba bafite ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni umugabo akaba afashe indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari intebe ziri mu bara risa n'icyatsi, akaba arimo kwiyigisha umuco nyarwanda n'uburyo twakwirinda kuba wakwangirika.

Ni abagabo barimo kubyina imbyino gakondo, hirya yabo hakaba hariho abagore bari kubaririmbira indirimbo gakondo ndetse bakaba barimo kubakomera n'amashyi, ibi ngibi bikaba biriko birabafasha kwishima.

Ni imyambi irambitse ahantu hamwe, ikaba yarifashishwaga aha mbere mu bikorwa by'ubuhigi, ibi bikaba bifasha kuba twarinda umuco wacu kuba wakwangirika.

Ni inkono ikozwe mu buryo bwa kinyarwanda, ikaba irimo ibiryo by'ubwoko butandukanye birimo gushyimba bimuhugubi bita bidufasha kuba twarinda umuco Nyarwanda kuba watakara.

Ni abagabo n'abagore, bicaye mu byumba. Bakaba barimo kuganira ku muco nyarwanda. Ibi bikaba bidufasha mu kubungabunga ko umuco nyarwanda watakara.

Ni ibikoresho bya kinyarwanda bibaje mu biti, bikaba byifashishwa mu kubungabunga umuco gakondo wa kinyarwanda kugira ngo birinde ko wa watakara.

Ni umwana w'umukobwa akaba atamiye igikoresho gakondo kifashisha mu kunywa itabi, ibi bikaba ari uburyo bwo kubungabunga umuco nyarwanda kugira ngo utakwangirika.

Ni umugore, akaba arimo kubyina imbyino nyarwanda, hirya ye hakaba hari ibikoresho bya kinyarwanda, ibi bikaba bidufasha mu kwiga no gusobanukirwa umuco nyarwanda twirinda ko wanatakara.

Ni abagore bakaba barimo gukoma amashyi abandi bari gukoma ingoma, hakaba harimo ufashe mikoro hirya yabo hakaba hari imodoka, bakaba bari kuririmba indirimbo gakondo.

Ni igiseke, kikaba kiboshye mu buryo bwa kinyarwanda, kikaba cyifashishwa mu kwigisha umuco nyarwanda no kwirinda ko watakara.

Ni igikoresho gakondo cya kinyarwanda, kikaba cyifashishwa n'abantu mu kunywa itabi, ibi bikaba bifasha mu kurinda ko umuco nyarwanda watakara.

Ni abantu bicaye, imbere yabo hakaba hari abagore bafashe mikoro, iruhande rwabo hakaba hari urimo gucuranga ndetse hakaba hari n'ibikoresho bya muzika, bakaba barimo kwizihiza irangira ry'umwaka.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bwa kinyarwanda. Ikaba ifite imbuga ngari imbere yayo. Iyi nyubako ikaba yarabagamo umwami. Ibi bikaba bifasha mu kwibuka amateka ya kinyarwanda.

Ni imashini zikaba zifashishwa mu gutanga imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi ku baturage. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi ku buryo bworoshye kandi bunoze.

Ni umukozi wambaye imyenda yabugenewe, akaba ahagaze mu cyumba kirimo amamashini yifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi ku buryo bworoshye.

Ni amamashini akaba ari ahantu hamwe, akaba yifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ingufu z'umuriro w'amashanyarazi ku buryo buboroheye.

Ni urugomero rutoya rwubatse ahantu hitaruruye, rukaba rufite imashini zifasha gutanga umuriro w'amashanyarazi, ku baturage bawukeneye impande n'impande.

Ni inzira nyabagendwa yifashishwa n'abantu, ikaba ikikijwe n'ibitoki ndetse n'ibindi biti bitoshye, iruhande rwacyo hakaba hariho ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Ni ibiti bibiri, bikaba biriho imashini zifashishwa mu kongera no kugabanya umuriro, bikaba biriho insinga zitwara umuriro hirya no hino, ibi bikaba bifasha abaturage kubona umuriro mu buryo buboroheye.

Ni ibyuma bishinze bikaba biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwukura ahantu bamwe ziwujyana ahandi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umurirorimo w'amashanyarazi ku buryo bworoshye.

Ni umugore, akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashisha n'abakozi batanga umuriro w'amashanyarazi, birimo ibisarubeti n'ingofero, akaba arimo gukanda ku gakoresho bifashisha bari gushiramo gushira umuriro muri konteri.

Ni abakozi bambaye imyenda ya bugenewe iri mu mabara y'umukara ndetse ingofero zikaba zisa umuhondo, bakaba bari mu cyumba kirimo imashini zifashishwa mu gutanga imbaraga zikomoka ku mashanyarazi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona izi mbaraga zikomoka ku mashanyarazi mu buryo buboheye.

Ni imashini, ikaba ifite imibare, iyi mashini ikaba ikoresha umuriro w'imbaraga z'amashanyarazi, ikaba yifashishwa n'abantu mu gukora imibare igiye itandukanye.

Ni ipoto rikozwe mu cyuma, rikaba ririho insinga zitwara amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, bikaba bifasha abaturage mu kwakira izo mbaraga hatabayemo gucikagurika.

Zifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi. Zikaba zizwi ku mabara asa n'umweru ndetse n'umukara. Izi mashini zikaba zifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage. Ibi bikabafasha mu kwiteza imbere.

Ni abagabo babiri bakaba buriye ipoto ryifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, ipoto ikaba iriho ibyuma bitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi mu buryo bwororoshye.

Ni igiti kikaba kiriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwukura ahantu hamwe ziwujyana ahandi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi ku buryo bworoshye ndetse bakabona ukuntuteza imbere.

Ni icyumba. Kikaba kirimo imashini zifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Hakaba harimo umukozi ubishinzwe. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi ku buryo buboroheye.

Ni intebe ziri mu mabara agiye atandukanye, ubururu, icyatsi, umuhondo, zikaba zifashishwa n'abaturage mu nzego zigiye zitandukanye igihe bateraniye ahantu hamwe.

Ni icyapa cyubakiye, kikaba kiri mu ibara risa n'umwe, kikaba cyanditseho amagambo yo kwibohorahora mu ibara riasa n'umukara, ibi bikaba bifasha mu kumenya amateka y'urugamba rwo kubohora ndetse bikadufasha no kuba twateza igihugu cyacu imbere, binyuze mu kugicungira umutekano.

Ni abantu barimo kugenda ku kiraro kiboshye mu nsinga, iruhande rwabo hakaba hari ibiti bitoshe, munsi yabo hakaba harimo ibyatsi bifite itoto.

Ni umuntu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hakaba hari imodoka, inyuma ye hakaba hari abantu bahagaze, hirya yabo hakaba hari amazu aparitsemo imodoka.

Ni inyubako zikaba zikozwe mu matafari zisakaje amabati y'umutuku, imbere yazo hakaba hari umugabo uri kugenda, izi nyubako zikaba zifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage

ni inyubako iteye irangi riri mu mabara asa n'ubururu hakaba imbere yaho hari intebe ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'inzego z'ubuzima mu kuvura indwara zigiye gutandukanye.

ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amashYamba ya kimeza atoshye, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni abaturage, bahagaze ku kiraro kinyurwaho n'abantu, iruhande rwabo hakaba hari amazu y'abaturage, iki kiraro kikaba cyifashishwa mu koroshya ubuhahirane bw'aba hirya no hino.

Ni abagabo bahagaze, bakaba bamanitse akaboko k'iburyo, iruhande rwabo hakaba hari imodoka, inyuma yabo hakaba hari inyubako zifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye ndetse aba bagabo bakaba bafashe impapuro mu kaboko kabo k'akamoso.

Ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, kikaba kiri mu mabara asa n'umutuku ndetse n'icyatsi, iruhande rwayo hakaba hari amazu yifashishwa n'abakinnyi ndetse n'abafana igihe imvura iguya.

Ni umuhanda ukaba urimo kugana ku nyubako ndende, hakaba hagazemo abantu abandi bari kunyuramo, izi nyubako zikaba zifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage.

Ni inyubako, ikaba ifite amabati na sa n'umutuku, imbere yayo hakaba hari imbuga, izi nyubako zikaba zifashishwa n'abayobozi mu kwakira abaturage baba baje babagana.

Ni inyubako iteye amarangi ari asa n'ubururude, imbere yayo hakaba hatondetse intebe, hariho n'ibikoresho by'isuku, iyi nzu ikaba yifashishwa n'abantu baje kwivuza ndetse no gufata amasomo yo kubahugura mu buryo bwo kugira ubuzima buzira umuze.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo kugendamo abantu, ukaba ukikijwe n'ibiti biriho amatara abifasha kumurika iyo bwije, iruhande rw'aho hakaba hari amashamba ya kimeza ndetse n'inzu, iyi mihanda ikaba ifasha abantu mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni inyubako ndende iteretse, ikaba ifite imbuga ngari imbere ikaba yifashishwa n'abayobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage, ibi bikaba bibafasha mu kubahuza n'abaturage ku buryo bworoshye.

Ni abagabo n'abagore bicaye, hakaba harimo abafashe indangururamajwi, inyuma yabo hakaba hari ibyapa byo kwamamaza, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bicaye mu ihema, bakaba barimo abayobozi bagiye batandukanye mu nzego z'umutekano, abapolisi, abasirikare ndetse n'abandi bayobozi mu nzego z'igihugu, bakaba bari kwiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abagabo n'abagore bahagaze munsi y'igiti, inyuma yaho hakaba hari amashuri ndetse n'ikigega gifata amazi, bakaba barimo kwiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage benshi bicaye ahantu hamwe bakaba bahuriye mu nama, inyuma yabo hakaba hateye ibiti byinshi, ibi bikaba bibafasha mu kuba bungurana ibitekerezo by'ukuntu bakwiteza imbere.

Ni abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, bakaba bicaye, inyuma yabo hakaba hari amashamba ndetse n'uruzitiro rukozwe mu byuma, bakaba barimo kwiga ku birebana n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni umugabo akaba afite indangururamajwi, inyuma ye hakaba hicaye abandi baturage, iruhande rwabo hakaba hari icyapa kirimo kwigisha, inyuma yabo hakaba hari imisozi iteyeho amashamba, baba barimo kwiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni umugabo ufashe indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari abaturage bicaye, iruhande rwabo hakaba hari ibimera bitandukanye, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abagabo n'abagore bahagaze. Bakaba batondetse umurongo. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi. Ndetse inyuma yabo hakaba hari ibiti by'amashyamba, bakaba barimo kwiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni umugabo uhagaze, akaba afashe impapuro mu ntoki, inyuma ye hakaba hari abandi bagabo barimo n'abashinzwe umutekano, abasirikare n'abapolisi, bakaba barimo kwiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni umugabo wambaye ishati y'umutuku akaba afashe indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari abandi bantu bicaye bakaba barimo kuganira ku uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, ibi bikaba bibafasha mu kwiyubakira igihugu.

Ni abantu bateruye amasandugu ndetse inyuma yabo bakurikiwe n'abandi bantu bafite indabo, bakurikiwe n'abandi bantu benshi bari inyuma bakaba bagiye mu gikorwa cyo gushingura.

Ni abantu bicaye, hakaba harimo abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye, harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, bakaba barimo kuganira kuburyo bwo guteza imbere ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni umugabo ufashe indabo akaba inyuma ye hari abandi bantu benshi barimo abashinzwe umutekano, barimo abapolisi n'abasirikari, bakaba bari mu gikorwa cyo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni imirongo y'umweru iciye mu muhanda mugari wa kaburimbo. Ikaba igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira. Ibinyabiziga biturutse iburyo cyangwa ibumoso biba bigomba guhagarara igihe hari umunyamaguru urikwambuka.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amashamba ya kiminmezaya, ukaba ushinzeho ibyapa biyobora abakoresha umuhanda, ibi bikaba bifasha mu kugabanya impanuka zivugwa mu muhanda.

Ni icyapa gishinzwe ku muhanda, bikaba kiri mu ibara risa umweru n'umutuku n'umukara, kikaba kiyobora abantu bakoresha umuhanda, ibibi bikaba bifasha abakoresha umuhanda mu kuba bakwirinda impanuka zo mu muhanda.

Ni icyapa, kikaba kiri kuyobora abantu bazabagana ivuriro, iruhande rwacyo hakaba hari umuhanda munini wa kaburimbo, ibi bikaba bifasha abantu baje bagana ivuriro kumenya aho riri, ndetse no guhabwa ubuvuzi bunoze.

Ni umuhanda ukozwe n'amabuye ukaba urimo kunyuramo ikinyabiziga cya moto, iruhande rwacyo hakaba hari amazu yifashishwa mu bucuruzi, iyi mihanda ikaba ifasha abantu mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni abagabo bicaye kuri moto bakaba bahagaze mu muhanda w'amabuye, imbere yabo hakaba hari amazu ndetse hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo.

Ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ikaba ihagaze aho izindi modoka zihagarara igihe zitegereje abagenzi. Ibi bikaba byoroshya ingendo ziva ahantu bamwe zijya ahandi.

Ni ikibuga bigishirizaho imodoka ikaba iteyeho amakona abafasha mu buryo bwo kuvugisha imodoka n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Imodoka ikaba iri kugenda mu muhanda mugari wa kaburimbo, imbere y'kaba hari izindi modoka ndetse n'amazu akikije uwo muhanda. Ibi bikaba bifasha abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hakaba hariho icyapa cyerekana ibyerekezo umuhanda uri kujyamo, ibi bikaba bifasha abakoresha umuhanda, mu kuba bagenda badateje impanuka zo mu muhanda.

Ni umusore wicaye kuri moto. Hirya ye hakaba hari igishushanyo k'imodoka itwara abagenzi. Imbere ye hakaba bari kuhacururiza ibintu bigiye bitandukanye birimo imyenda n'inkweto. Ndetse imbere yaho hakaba hari umugore uhagaze.

Ni inyubako ikaba iri kunyurwamo n'abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye barimo abasirikare abapolisi ndetse n'abandi, bakaba barimo kuganira uburyo bwo kwicungira umutekano biteza n'imbere.

Ni abaturage benshi bahagaze, iruhande rwabo hakaba hari amazu akikijwe n'ibitoki, bakaba barimo kuganira mu rwego rwo kwiteza imbere bakora umuganda.

Ni abaturage benshi bibumbiye hamwe bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, ibi ngibi bikaba bikorwa mu rwego rwo kugira ngo abaturage bikorere ibikorwa remezo byabo hatabayemo gutegereza izindi mbaraga.

Ni abantu bari mu muganda hakaba harimo abafashe amafuka, hakaba harimo abashinzwe umutekano barimo abasirikare ndetse n'abapolisi, iruhande rwabo hakaba hari igitoki giteye bakaba barimo kwiyubakira igihugu bakora umuganda.

Ni abaturage barimo abagabo n'abagore, bakaba barimo kuririmba abandi barimo kubyina, iruhande rwabo hakaba hari amashyamba, bakaba barimo kwishimira iterambere baba bageze, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere ndetse no kwicungira umutekano.

Ni abagabo, hakaba harimo abashinzwe umutekano, abasirikare, daso na polisi. Bakaba bateruye amatafari ndetse n'icyondo kirimo kwifashishwa mu kubaka inzu. Ibi bikaba bifasha abaturage kuba bagira ubuzima bwiza ndetse no kubona aho baba.

Ni abantu bikoreye amabuye, iruhande rwabo hakaba hari abandi bahagaze, inyuma yabo hakaba hari amazu akikijwe n'urutoki, bakaba barimo biyubakira igihugu binyuze mu gukora umuganda.

Ni ushinzwe umutekano w'umupolisi akaba yicaye imbere y'ameza atereretseho imashini, inyuma ye hakaba hari urugi akaba arimo kwigisha uburyo bwo kwicungira umutekano no kwiteza imbere.

Ni abaturage bavanze n'abakozi b'urwego rushinzwe umutekano, bakaba bari mu gikorwa cyo guhinga barimo barakora umuganda, ibi bikaba bifasha Igihugu gutera imbere no kwizigama amafaranga.

Ni umugabo ufashe umutaka akaba ahagararanye n'umugore ufashe indangurura, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bicaye mu ihema bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere bicungira n'umutekano.

Ni abantu bahagaze bakaba barimo kubaka inyubako bakoresheje amatafari, hakaba harimo abashinzwe umutekano nk'abapolisi, abasirikare ndetse n'abandi, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, ibi bikaba bifasha mu kwiyubakira igihugu no kuba ahantu heza.

Ni abagabo bahagaze imbere y'imiyubako ndende, hakaba harimo abashinzwe umutekano nk'abasirikare, iruhande rwabo hakaba hari ikinyabiziga cy'imodoka, bakaba barimo kuganira ku buryo bakwiteza imbere bicungira umutekano.

Ni umupolisi uhagaze, imbere ye hakaba hari abantu bicay,e iruhande rwe hakaba hari abandi bicaye mu ihema, bakaba barimo kwibuka ku buryo bwo kwicungira umutekano ndetse no kwiteza imbere mu buzima busanzwe bwabo bwa buri munsi.

Ni abantu barimo gukora siporo bakwirukanka, bakaba bari kuzikora mu buryo bwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira indwara zitandura, zirimo umubyibuho ukabije diabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni abagabo bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gukina umupira w'amaguru, iri mu mabara atandukanye arimo ubururu ndetse n'ishati. Ibi bikaba bizafasha mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni ikipe y'abakinnyi b'umupira w'amaguru, bakaba bahagaze ku mironko ebyiri, bakaba bambaye imyenda y'ihihondo, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze ndetse n'amazu y'abaturage, ibi bikababafasha mu gukora siporo biririnda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, bakaba bambaye imyenda yabugenewe iri mu amabara atandukanye arimo; umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi bakaba bari mu gikorwa cyo gukina, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse bikaba bibaha n'amafaranga.

Ni abagabo barimo gukina umupira w'amaguru bakaba harimo n'umusifuzi w'umugore, ibi ngibi bikaba bifasha aba bagabo kuba batarwara zigiye zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije diyabete ndetse n'izindi ndwara.

Ni abakinnyi bakaba bambaye imyenda y'ubwoko butandukanye irimu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo. Bakaba bari mu gikorwa cyo kwidagadura. Ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni abagore bahagaze bakaba bafashe ku cyapa, hakaba harimo ufashe umupira w'amaguru, hirya yabo hakaba hari abandi bahagaze inyuma yabo, hakaba hari ushinzwe umutekano w'umupolisi.

Ni abantu barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hakaba hari abandi bahagaze, ndetse hakaba hari ibiti by'amashanyarazi, ndetse n'amashyamba akikije uwo muhanda wa kaburimbo.

Ni umukinnyi akaba arimo gukina umupira w'amaguru mu kibuga. Hirya ye hakaba hari amazu y'abaturage. Ibi bikaba bimufasha mu kugira ubuzima buzira indwara ziri mo umubyibuho ukabije, diyabete n'indwara z'umutima.

Ni abagabo bambaye imyenda itandukanye, harimo bambaye imyenda y'ubururu ndetse abandi bambaye imyenda y'imweru n'umutuku, bakaba bari mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaguru, bikaba bibafasha kubona amafaranga ndetse no kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Ni abagabo barimo gukina umupira w'amaguru mu kibuga. Bakaba bambaye imyenda iba itandukanye. Ibi bakaba barimo kubikora mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye. Zirimo: umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni abagabo bambaye imyenda ya siporo, bakaba barimo gukina umupira w'amaguru, inyuma yabo hakaba hari amazu, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda kuba abagira ikibazo cy'uburwayi butandukanye, burimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'izindi ndwara z'umutima.

Ni umukobwa, akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gukina imikino itandukanye njyarugamba. Ibi bikaba bimufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Ni abagabo babiri bakaba bicaye. Bambaye imyenda yifashishwa mu gukora siporo. Ibi bikaba, bibafasha mu kuba bakwirinda indwara zigiye zitandukanye, zirimo nk'umubyibuho ukabije ndetse na Diyabete.

Ni imodoka ya polisi ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yaho hakaba hari umuntu uri kugenda ku igare ndetse hakaba hari abandi bantu bari kwirukanka n'amaguru bakaba bari mu gikorwa cya siporo rusange.

Ni abagabo bakaba barimo gukina umupira w'amaguru, bakaba bambaye imyenda iri mu mabara asa n'umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba barimo gukina umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije ndetse n'indwara z'umutima.

Ni amakipe abiri atandukanye ari gukina umupira w'amaguru, imwe ikaba yambaye imipira isa n'umutuku, indi ikaba yambaye imipira isa n'umukara, hirya yabo hakaba hariho abandi bantu bari kubareba.

Ni umuhanda, ukaba ukozwe mu mabuye, ku ruhande rwayo hakaba hari ibiti n'ibyapa byo kwamamaza, ukaba uparitswemo amamoto, yifashishwa n'abagenzi mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni umuntu urimo kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo. Iruhande rwe hakaba hari inyubako. Imbere ye hakaba haparitse ikinyabiziga cy'imodo. Ibi bikaba bifasha uyu muturage kugenda mu mihanda Imeze neza ndetse bikamworohereza n'uburyo bw'ingendo.

Ni umugore umweheretse umwana, akaba ari kugenda mu muhanda mu wa kaburimbo, iruhande rwawa hakaba hari amazu y'ubucuruzi, ibi bikaba bimufasha kuba yava ahantu hamwe ajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni akayira kanyurwamo n'abantu baba bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi, kakaba kabafasha mu kugenda bihuse no kugera aho bagiye vuba batagize ikindi kintu bangiriza.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba urimo kunyurwamo n'abantu, iruhande rwaho hakaba hari ibyapa biyobora abakoresha umuhanda ndetse hakaba hari ibiti biriho amatara amurika iyo bwije, ibi bikaba bifasha abakoresha umuhanda mu kuborohereza ingendo.

Ni abagabo babiri bari gutambuka mu muhanda mugari, imbere yabo hakaba hari undi mugabo uri gusunika igare ipakiye ikidomoro, ndetse iburyo bwabo hakaba hari igipangu n'ibumoso bwabo hakaba hari ikindi gipangu.